Aha ni ahakorerwa igikorwa cy'ubuhinzi bugiye butandukanye, ubona ko harimo ibigori, aho bagihinga, ndetse hari n'ahakiri ubwatsi, bivuze ko hakorerwa imishinga, igiye itandukanye, ijyanye n'ubuhinzi.

Umushinga w'ubuhinzi bw'ibihingwa by'inyanya zitekwa mu mboga, ubona ko zirimo gufuhirirwa umuti wo kuzirinda udukoko ndetse n'ibindi byonnyi byaza kuzangiza.

Umurima uri mu gishanga, uri gukorerwamo umushinga w'ubuhinzi. Bimwe mu bihingwa, byitwa amashu, kugira ngo azabashe gufasha abantu mu kurya, ndetse n'amateke yiganjemo amashufurere.

Umuti mwiza， umuti ukoreshwa mu gutera ibihingwa kugira ngo bibashe kugira ubuzima buzira umuze， urinda udukoko kubyangiriza ndetse ukabasha gutanga umusaruro mwiza kandi unoze umeze neza.

Igikoresho gikoreshwa mu ku depurasa utuzigo dutoya umuntu yifashisha kizwi ku izina ry'ingorofani. Ugitwara asunika inyuma, gifite ipene rimwe ku buryo kitabasha kugorana, kuko nta mazutu gikoresha cyangwa se esanse.

Ikimera gifashwe n'umuntu wambaye ga cyangwa se ga zo ku ntoki kugira ngo kitaza kumwanduza, kuko urabona ko agiye gutera kandi akagiterana ifumbire ahantu hameze neza, kugira ngo gikomeze kuzamuka neza.

Aha harimo gukorerwa umushinga wo korora ibigori, ndetse ku buryo bugezweho kandi bwitaweho, ubona ko ari koperative yishyize hamwe, kuko abatera umuti bafite impuzankano, bafite ibirango bibahuza ,ndetse kandi bose bafite intego imwe y'igikorwa bagendereye.

Ifi ikiribwa gituruka mu nyanja kiraryoha kuri bamwe, gusa njye ntabwo ntabwo kiryohera buri umwe wese kuko hari abadakunda utu utugufa twacyo tumeze nk'udushinge dushita ku rurimi rw'umuntu cyangwa se mu kanwa kurimo kuyirya.

Ibiribwa by'inyama bizwi mu bwoko bw'amafi aturuka mu nyanja, kugirango abashe gutunga umubiri wa muntu. Ni amafi aryoha, kandi arobwa akoreshejwe inshundura.

Aha ni icyokezo kiriho umuriro, ndetse bigaragara ko kirimo gukora, kuko hariho amafi, kandi arimo gushya, kugira ngo yifashishwe n'umuntu kuyarya, harimo ibyibanje mu gusiga ibirungo, yiganjemo insenda.

Utunyamaswa duto two mu mazi twitwa amafi, dukoreshwa n'abantu baturya ,tubamo inyama nziza ziryoshye kandi zimeze neza.

Iki ni ikiyaga . Ikiyaga kigizwe n'amazi menshi, menshi cyane ateraniye hamwe, ariko muri iki kiyaga hakaba harimo icyo bita nta uturwa cyangwa se ibirwa cyangwa ikirwa bizwi ku Ijwi rya irandi akaba ari ubutaka buri hagati mu nyanja.

Imbuto ziribwa zitetswe; harimo ibihaza kandi higanjemo inyanya bikoreshwa mu butetsi.

Iri ni ifunguro ryateguwe neza ryitaweho rigejejwe ku meza kugira ngo urikoresha bibashe kumugirira akamaro, ndetse ritunge umubiri nta kibazo ryongeremo vitamine.

Ifunguro ryateguwe neza, ubona ko byakaranzwe bigashyirwa ku gasiyete kameze neza, ndetse bagashyiraho n'ibinyembuto kandi bibisi, byo guherekeza ifunguro ryateguwe kugira ngo urirya ribashe gukomeza kumugwa neza.

Abagabo babiri bihereje inyanja. Kugirango ngo batume inshundura babone amafi, bayarobe bayazane bayahereze abakiriya cyasi abayakeneye. Bari mu bwato ubwato bwa kinyarwanda bukozwe mu biti.

Icyo kurya kigiye gutegurwa neza kirimo gutegurirwa ku, mu buteko cyangwa se mu gikoni hariho amasereri, tungurusumu ziri bwifashishwa kugikaranga kugira ngo bagisige ibirungo kiryohere ukirya.

Ubutaka bukorerwamo umushinga w'ubuhinzi bw'ibirayi, ubona ko hari harimo ibigori ariko byo byasaruwe hagasigaramo ibirayi byonyine.

Imirima ikorerwamo ubuhinzi aho yiganjemo ibihingwa by'ibigori. Ibigori bitarera neza, bikiri mu murima kugirango bibashe kujyanwa byere, bizasarurwe, bigire akamaro ku buzima bwa muntu.

Umurima ukorerwamo umushinga w'ubuhinzi, wakorewemo umushinga w'ibigori ariko byareze ku buryo byamaze gusarurwa byajyanywe aho bigomba gutunganyirizwa. Urimo kongera guhingwa kugira ngo haterwemo ibindi bihingwa.

Umurima ukorerwamo ubuhinzi bw'ibigori, ndetse ukikijwe n'amazu, ubona ko ari ahantu heza, ho kuba wabasha kongera gutura, cyangwa se ugakoresha mu buhinzi. Hariho intoki zimeze neza zimwe zizwi nko gukora ibinyobwa bigiye bitandukanye, ndetse bigaragara ko rwose ari ahantu heza, uhifuza nawe wabasha kuba wahakorera.

Umurima udahingwa, ndetse hirya yaho hariho undi uhingwa uhinzwemo ibigori, iruhande hariho ibitoki, ubona ko ari ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi. Ndetse kandi bikaba ari ibihingwa mu by'ukuri bikundwa n'abaturage.

Igiti cyatewe impande y'urugo, kugira ngo gisigasirwe neza, cyihakore neza kizatange agacucucucu, ku buryo umuntu yacyugamamo mu gihe aryamye kuri uyu mucaca.

Umurima munini wiganjemo ibikorwa by'ubuhinzi higanjemo ibijumba. Ibiyumba bizwiho kwerera mu butaka, bikera biba birebire kuko bi n'iyo ubirya biraryoherera.

Umushinga w'ibirayi harimo n'amateke ariko byiganjemo ibirayi, umurima uzitiriye bigaragara ko havuyemo n'ibigori byeze bigasarurwa. Bikaba ari ibirayi bizwi ku izina rya Kiniki.

Umushinga w'ubuhinzi urimo gukorerwa ahantu hamwe w'ibirayi, ubonako bitari byakageze aho kwera harimo hirya hariho ibitoke ndetse n'ibindi biti bibakikije, hirya y'intoki hariho amazu bigaragarako ari ahantu hafi y'ahatuwe.

Igiti cyeramo imbuto z'amavoka zimwe zikorwamo amavuta ndetse zikanaribwa. Akaba ari igiti kimeze neza kandi cy'ingirakamaro.

Izi zikaba ari ingemwe z'ibiti. Ibiti bihohetse mu mashashi, mu makawucu, akaba ari ibiti bikora ishyamba vuba cyane, akaba ari ibiti byera bikarumbaza bikagira ibishami byinshi, ku buryo ubiteye ahantu bihita bikora agashyamba kihuse cyane.

Umurima ukorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi, ukaba ari umurima uri imbere y'urugo. Ubona na ko hari amahinge ndetse muri ayo mahinge hakaba harimo ibiti by'imyumbati, imyumbati iribwa mu isombe.

Iki ni ubwoko bw'igiti cyitwa igiko cyakuze. Kiri iruhande rw'urugo cyangwa se inyuma y'urugo. Urugo ruriho amasaka yatemwe akegekwaho, kugira ngo abanze yume neza.

Igiti cyo mu bwoko bwa avoka cyera imbuto ziribwa, cyera hashize igihe kinini. Mu kwera kwacyo kizana uruyange, nyuma y'uruyange hakaza imiteja, mu iyo miteja niyo ivamo voka. Iyo zikuze zikaba nini noneho zikera, bakazica bakazihubika bakazirya.

Umurima wakorewemo ubushakashatsi bw'ubuhinzi, ndetse akaba atari umuruma umwe, ahubwo imirima itandukanye, harimo uwakorewemo karoti, n'ibirayi, ariko higanjemo karoti, arizo zifite igice kinini.

Igiti cyo mubwoko bwa gereveriya, ubona ko byatewe ari byinshi, ariko hirya yaho hakaba hari ibindi biti bya buri koti, nkuko ubibona higanjemo gereveriya.

Ibi ni ibyatsi byo mu bwoko bwitwa ibidariya, abanyarwanda bakunze kubikoresha bazimya cyangwa se bahosha umuriro w'umwana babimusasiye, harunzeho ibikenyeri by'ibigori byasaruwemo ibigori.

Imishingirizo cyangwa se imihembezo ishingirizwa ibishyimbo, kugira ngo byere neza urabona ko biri iruhande rw'urugo rwubakishije rukarakara, ndetse hakaba hariho n'akayira nyabagendwa gakase iruhande, akaba ari n'akayira kagiye mu rugo.

Abana batoya batumwe kuragira ariko bagezeyo bikorera amafindo, bakora imyidagaduro barakina ubona ko ari abana bishimye kandi icyo icyo babatumye bakibagiwe.

Uyu ni umushinga w'ubuhinzi ukorerwa muri uyu murima, ubonako ari ubutaka bwinshi kandi bumeze neza bunini ,ku buryo umushinga ukorewemo ugenda neza kandi nta mabuye awurimo.

Uru ni uruzitiro rw'ahantu runaka, ariko akaba ari uruzitiro rugizwe n'ibimera byinshi, ibyatsi byinshi, ibiti byinshi byiganjemo ibidodoki, ndetse n'ibiko.

Ahakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi bw'ibitoke, ibitoke biribwa apana ibitoke by'imineke. Ni ibitoke biribwa bitetswe ntabwo ibitoke bivamo imineke.

Umurima w'ibirayi, w 'igihingwa cyitwa ibirayi birimo kubagarwa, bigeze igihe kibagarwa, barimo kwibagara kugira ngo bikomeze kuzigama amazi abitunga ndetse anabifasha kubaho.

Ubuhunikiro bw'ibigo by'ibigori byitwa iburide, ibigori byera bitinze bitewe nuko byahinzwe ahantu hakonje, iyo bitewe ahantu hashyuha niho byihuta kandi bikera neza.

Iki ni igihingwa gikoreshwa n'abantu batuye cyane cyane mu byaro kuko aribo bakunda kubihinga. Ni amajyeri mu kinyarwanda cyiza. Babyita urunyogwe rukaba rwera utuntu dutoya tumeze nk'amagorori, tukaryoha cyane.

Uyu ni umushinga nanone w'ibigori bya iburide, ariko akaba ari ibigori bitari byaheka, aribwo birimo guterera kuzana uruyange cyangwa se umuterero, nyuma yaho bikaba bizakurikizaho guheka ibigori ari byo byera bikaribwa.

Umushinga wo gusarura ibirayi byahinzwe bimaze kwera bigakusanyirizwa mu mifuka, kugira ngo bijyanwe ku isoko n'ahandi biribuze gukoresherezwa icyo byagenewe.

Igihingwa cyitwa avoka, kikaba ari igihingwa cyera gifashwe n'inkondo ituruka ku giti cyangwag se kuri nyina, akaba yera inagana, apana kuvuga ngo irajya hasi cyangwa se ngo hari ikiyifashe kindi, ifashwe n'inkondo.

Iki kigaragara cy'umuhondo ni ikibutocy' avoka. Avoka igira ikibutobuto mu nda kitaribwa, kuko ni cyo giterwa kikamera, na cyo kikabasha kuzera ayandi mavoka menshi.

Amatungo azwi mu bwoko bw'inka arimo konkerezwa, bigaragara ko yabyaye impanga. Ari mu kiraro kandi arimo konkererezwa ndetse na nyira zo, kugira ngo itabasha no kuzitera imigeri.

Umushinga w'ubuhinzi bw'ibihingwa byitwa ibirayi, birimo guterwa umuti n'umuntu umwe, kandi uhetse icyuma cy'umuhondo gifite umufuniko w'ubururu, bivuze ko aha ari igikorwa cy'ubuhinzi, umuturage yateguye kandi akaba akomeza kukitaho, kugira ngo kigende neza.

Umurima w'ubuhinzi bw'imbuto, igihingwa cy'imbuto cy'amatunda aribwa ari mabisi yitwa amarozi amatunda aryoherera.

Iki ngiki nacyita ko ari imashini. Imashini yesitaye ku muririro itunganya bimwe mu bihingwa by'abahinzi, kugira ngo bivemo indi forome y'ikindi kintu bashaka gukoramo.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bahuriye mu isoko bajya guhaha imbuto yiganjemo imyembe, ubona ko arizo ziganjemo.

Aho hahurijwe ibitoki bihiye, cyangwa imineke ihiye, ku buryo umuntu yayirya, ndetse agata igishishwa cy'inyuma gusa, kugira ngo kitaza kumwangiriza, kuko haribwa igice cy'imbere.

Ubworozi bw'amatungo magufi, amatungo yororwa akarorerwa mu rugo higanjemo ihene.

Ubworozi bw'inkoko ndetse akaba ari inkoko z'umweru ziri hamwe. Ikigaragara ni uko izi nkoko zimeze neza, kuko ni inkoko zifite udutwe tw'umutuku, kuko wagira ngo ni inkoko ziribwa.

Aya ni ubwoko bw'amatunda ,ubwoko bw'amatunda yitwa amaronji aryoherera cyane . Ukuraho igihu cy'inyuma ugatonora ukagita ,ubundi bwo mo ndani haba harimo utundi tubuto tugiye twivanga muri iryo tunda mo ndani natwo udukuramo ukaduta noneho ukarya isigaye.

Urujya n'uruza rw'abantu barimo kugenda ariko barimo kunyura ahantu hari ikusanyirizo ry'ibirayi . Ahantu bakusanyirije ibirayi bitegereje gupakirwa ,byakuwe mu murima.

Udutunda twerera hejuru mu biti tukaba ari udutunda turyohera cyane cyane, ku buryo ntabwo wirirwa ugahata ahubwo ugahekenya uko kakabaye, mu nda kaba kajyanirana n'igishishwa icyo ukora ni ukukoza gusa, ubundi ukagahekenya nk'uhekenya akaroti.

Ubwoko bw'imbuto buribwa bwiza kandi buryoha, waburisha ibiryo cyangwa se waburya bwonyine, ni ubwoko buryoha bwitwa avoka y'imbangurire buba bufite icyo mu nda cy'ikibuto buto kiratabwa hakaribwa igice gikurikiyeho noneho n'ibi nabyo bigatabwa.

Umushinga w'ubuhinzi bw'inanasi, akaba ari umushinga ukorerwa ahantu hashyuha, kuko inanasi itakwera ahantu hakonja, uzi ko ahantu hashyuha ndetse harimo n'ibitoki, harimo n'abaturage bakaba aribo ba nyiri imirima, ubona ko harimo n'uri kwandika nk'aho arimo kugenzura igikorwa cy'ubuhinzi.

Amavoka menshi yakusanyirijwe hamwe, ahantu runaka kugira ngo habashe kwitabwaho kwayo ataza kwangirika, abashe akorwamo amavuta, agakorwamo ibirungo bigiye bitandukanye by'imitsatsi ndetse n'amavuta y'umubiri kandi ni imbuto ziribwa.

Umushinga wo guhinga karoti. Karoti zizwiho ko zivangwa mu mboga mu biryo ndetse zivura n'amaso. Ubona ko umubyeyi yazitabiriye kandi arimo kureba ko zeze akaba ajyanyeho izo kumva uko zimeze.

Umushinga w'ubuhinzi bw'ibigori urimo gukorerwa ku muririma munini ndetse ukaba urimo gufuhirirwa cyangwa se urimo guterwa umuti urinda nkogwa, cyangwa se n'ibindi byonyi byakwangiriza iyi myaka.

Izi ni voka, voka zimwe zerera hejuru mu kirere, zimwe zigira intungamubiri cyangwa se vitamini A, zikoreshwa mu kuzirya ndetse no gukoramo amavuta agiye atandukanye.

Ibigori bya ibulide, ibigori byumye, ubona ko ari ikigori gitegerejwe gusarurwa cyangwa se kigeze igihe cy'isarurwa, ko uwagisarura akakitaho kitasubira inyuma ngo kibore. Kuko cyamaze kwera, kuko cyumije amababi.

Isoko ry'ibiribwa ryiganjemo imyumbati ndetse ryiganjemo n'ibikoresho byo mu nzu na ho higanjemo ibikombe cyangwa se ibikosi bikoreshwa mu kudaha cyangwa se mu gutwara ibisukika.

Uyu akaba ari umusaruro w'amajeri yumye yitwa urunyogwe, amajeri akaba ahingwa ndetse akera, yera utuntu tumeze nk' nk'imishogi y'ibishimbo, ariko iyo udutonoye haba harimo utujeri twinshi, ku buryo ari two utu ngutu bakusanyije tumaze kuma.

Umufuka washashwe hasi, umufuka washashwe hasi washyizweho inyanya ku buryo butandukanye ubonako harimo inyanya zirenze ziri ku mifungo, izindi zitari zarengwa bivuze ngo baragurisha bagendeye ku mifungo, ukeneye umufungo bamuce amafaranga bawumuhe, ukeneye ebyiri ,eshatu, gutyo bagende bumvikana k'umufungo.

Hanacururizwa ibyo kurya byiganjemo ibitunguru, amakaroti, inyanya, amashu ndetse n'ibindi. Ubona ko umuturage iyo ahageze abasha kugura buri kimwe akabasha kujya guteka agategura ifunguro rye neza kandi ryujuje ubuziranenge

Umushinga wakozwe w'ibigori bya iburide bitari byera birimo kumya ubusenzi bwa mbere, ubona ko ari ibigori byiza byahinzwe neza. Si bike kandi si byinshi, kuko ahubwo biraringaniye. Bizaba byiza rero kuko bizatanga umusaruro ushimishije.

Urujya n'uruza rw'abaturage bateraniye hamwe, bagiye guhaha ibiribwa byiganjemo ibirayi, ubona ko ari byo byiganje muri iri soko, birya hari igare, bivuze ko harimo n'abandi bantu Barimo gushaka ibindi bitari ibi.

Ubwoko bw'amatunda aryoha cyane, ku buryo uburya yumva bufite ubutamu kandi butarura cyane, uretse ko busema, ko utabasha kurya amatunda menshi. Burasema cyane,

Ubuhunikiro cyangwa se ububiko bw'igihingwa cy'ibigori bimanitse ku ngango cyangwa se bihubitse ku ngango, bimeze neza kandi ubona ko byitaweho mu buryo bunoze.

Abagabo bahuje ibiganza bishimira umushinga wabo. Ubona ko bishimiye ko urimo kugenda neza, kandi nta byonnyi birimo kuwangiriza. Akaba ari umushinga w'ibigori.

Ikoraniro ry'abantu benshi bafite intego imwe ,bafite umujyo umwe, ubona ko ari igikorwa runaka bagambiriye kuba bajya gusura bakamenya imikorere yacyo, n'imigirire yacyo n'aho kigeze, urabona ko umuyobozi yabagiye imbere abandi bamukurikiye.

Igihingwa cy'amatunda yera azamuwe ku biti, amatunda yera mu nda asa n'umuhondo ku buryo urirya aba agira ngo ni ironji risanzwe kandi ari amarozi.

Ibirayi, igihingwa cy'ibirayi cyakusanyirijwe hamwe kugira ngo kibashe gutunganywa cyerekezwe aho kigomba kwerekezwa, kugira ngo gikoreshwe icyo byagenewe. Ibi ni ibirayi bihingwa mu butaka.

Eee! ibitoki igihingwa cy'ibitoki ubona ko byaciwe neza kandi bimwe byamaze kuba imineke bivuze ngo babiciye mbere y'ibingibi bitaraba imineke kuko babiciriye rimwe byose byakaba byarabaye imineke ubwo bimwe byaciwe mbere ibindi bicibwa nyuma.

Aha ni ahakorerwa umushinga wo guhinga ibishyimbo, ukaba ari umushinga uteza imbere abaturage benshi, kandi bakawukora bawukunze kuko bitagira igihombo cyane, kuko n'iyo bibuze isoko uwo wabihinze na we abikoresha abirya.

umushinga w'ubuhinzi bw'amatunda, hirya ndetse hakaba hariho n'ibishyimbo. Ibishyimbo bitari byageza igihe cyo kwera birimo kuzana uruyange, bifite umushogoro mwinshi cyane.

Izi ni impungure z'ibigori, zahunguwe zanitswe ku mufuka, za mayizori z'ibigori byitwa mayizori. Ibigori Nyarwanda byera vuba, kandi bikaryoherera cyaane.

Imbuto ziribwa zakusanyirijwe ahantu hamwe ku ntara imwe, intara ifite amabara menshi bigaragara ko birimo kugurishwa, ari byo amavoka ndetse n'imineke bizwiho kubaka umubiri wa muntu.

Umushinga wo gusarura ibitunguru, ibitunguru ni bimwe mu birungo bikoreshwa n'umuntu iyo agiye kurya ibiryo akabikekeraho cyangwa se akabikoresha akaranga bya biryo yatetse yateguye noneho akabirya afite apeti kuko nabyo bitera apeti.

Igihingwa ngandurabukungu mu Rwanda kizwi nk'ibireti. Igihingwa cyitwa ibireti biso biterwa bigasoromwa igihe kingana n'umwaka wose. urabisoroma ukabyanika, ukabona uka ukabitura ku kusanyirizo ryabugenewe bakakwishyura.

Umushinga w'ubuhinzi bw'ibishyimbo, ubwoko bugufi urabona ko bitangiye kuyanga, bimaze kuzana uruyange nyuma y'uruyange bikazana imiteja, nyuma y'imiteja bikaza kwera, bakazabisarura byumye neza noneho bagatangira kubikoresha.

Ubuhunikiro bw'ibishyimbo bw'imbuto ngufi, byakusanyirijwe hamwe bimaze kwera bitaruma neza, barabibika babibikana n'ibishogoshogo byabyo, kugira ngo bibanze byume neza, ubundi bwo bizatunganwe bitari bwangirike.

Igihingwa cyiza cy'umwihariko, cy'ingirakamaro cyitwa ibishyimbo, birimo kurobanurwa kugira ngo bikurwemo umwanda, bikurwemo ibyatsi ndetse n'amabuye, bisigare ari ibishyimbo by'umwimerere gusa.

Umurima ukorerwamo umushinga wo guhinga bimwe mu bihingwa amajeri cyangwa se urunyogwe, bikaba ari ibihingwa biryoha. Kugira ngo byere ,birabanza bikazana uruyange bigakurikizaho imiteja.

Urujya n'uruza rw'abaturage bahuriye hamwe mu isoko ry'ibiribwa, amandazi, ariko higanjemo ibishyimbo. Ibishyimbo bizwiho kugira akamaro kanini ku mubiri wa muntu. Abaturage bazindutse berekera kubishaka kugira ngo babashe kubaka ubuzima bwabo.

Imyaka, ibigori, ibihingwa byahurijwe hamwe, byasaruriwe hamwe kugira ngo bibashe gushyirwa mu mifuka neza, bitaza kwangirika.

Hakusanyirijwe impungure, ibishyimbo, kuko byose ari imyaka, ndetse akaba ari n'ibihingwa kandi bikoreshwa na muntu, kugira ngo abashe gukomeza kubaho abikoresha abirya.

Impungure zakusanyirijwe mu mufuka umwe kugira ngo uzigura abe yazitwara abe yaza gupimuza atiriwe ahungura, ku buryo ahita ajya kubetesha impungure zumye neza, ku buryo kuzitwara ntacyo byaba bitwaye.

Iyi ni umushinga w'ubuhinzi bw'amasaka, ni amasaka atari yera neza ngo asarurwe, ni amasaka akiri mu murima. Ubona ko uwayahinze ategereje ko yuma kugira ngo ayasarure.

Imishogi y'ibishyimbo byitwa umushingiriro ariko bitari byuma bikiri imihonge, ku buryo bitari byageza igihe cyo gutonorwa ngo bibikwe bitonoye.

Umushinga w'ubutaka buhurijwe hamwe, bukorerwamo ubuhinzi bw'ibigori. Ubona ko ari ubutaka bufumbye kuko n'imyaka irimo irabigaragaza ko harimo ifumbire.

Umushinga w'igihingwa cy'ibishyimbo, ubona ko hameze neza byitaweho bitagira ikigunda kibibangamira, ndetse bifite n'imishingiriro imeze neza ku buryo bizabasha kwera nta nkomyi bitabangamiwe.

Urujya n'uruza rw'abaturage bahuriye hamwe, bagura ibiribwa, higanjemo impungure. Impungure z'ibigori ziba zahunguwe ku bigori.

Igihingwa kigezweho ngandurabukungu cy'umuceri ukoreshwa mu birori byari bitandukanye mahoteri ndetse uryoha kandi umeze neza, umuceri nyarwanda.

Umuceri ugeze mu gihe cyo kwera, ariko utarera neza, ku buryo wasarurwa. Akaba ari umuceri nk'ibiribwa, igihingwa, kiryoha cyane kandi iyo ugitetse kiratubuka, kandi gikundwa n'abantu benshi, kuko wifashishwa mu birori bigiye bitandukanye.

Impungure zakusanyirijwe hamwe zihungu zihunguwe ku bigori, zigakusanyirizwa mu mufuka umwe z'ibigori nyarwanda byitwa mayizori. Igihingwa k'ibigori kera vuba kandi kitagaya imvura cyane n'ifumbire.

Umurima ukorerwamo igikorwa cy'ubuhinzi bw'ibishyimbo bigufi, byera bidashingiriwe, bidahawe imihembezo. Ni umurima ukorwamo icyo gikorwa kugira ngo ubashe kongera umusaruro w'ibishyimbo ku soko.

Utuyugiro dukoreshwa mu guhunika neza no gufata neza ibigori byasaruwe, kugira ngo bivemo inundwe, insapfu, ndetse n'indi myanda yose, hatari ibigori, biba ari utuyungiro dufite utwenge dutoya cyane, ku buryo hatanyuramo impungure, ahubwo hanyuramo bya bindi bitoya byangizariza ibigori.

Ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo ibishyimbo, amashaza, amoko menshi y'ibishyimbo, impungure ndetse hariho n'amagi. Akaba ari ibiribwa bitandukanye.

Soya igihingwa kiryoha gikoreshwa mu kunyobwa, kivangwa mu masaka ibigori, bakabeteshanya noneho umuturage akabasha kunwa igikoma kimeze neza, kandi kiryoshe cujuje intungamubiri.

Iri ni ihunikiro ry'ibigori bihunikwa kugira ngo bibashe kuma neza, ku buryo bitabasha kubora, biba biri ahantu hasakariye hameze neza bigaterwa umuti kugira ngo bitabasha kunundwa, noneho umuturage akazabikoresha bimaze kuma neza, akabibetesha akabiryamo umutsima, ndetse akanwamo igikoma akabaho neza.

Igihingwa cy'amasaka asarurwa atarera neza ngo yume agashingwa mu mirima kugira ngo akomeze agire ubusugire bwayo kandi abashe kuma ntakibazo agize.

Ubuhunikiro bw'ibiribwa higanjemo ibirayi nk'igihingwa nyamukuru bifatwa bigatunganywa neza kugira ngo bizifashishwe mu kongera kubishakira isoko ndetse no guhinga.

Ibigori bya nyiramabara bya nyiramanyiginya byasaruwe birimo gupfundikwa, kugira ngo bibashe gushyirwa ku ngango zabugenewe, bibashe kuhumira bitanunzwe bidahungabanye, bizakoreshwe mu gihe kiri imbere.

Aha ni umurima ukorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi , aho hahingwamo ibishyiyimbo bisoromwa mo imiteja, igatekwa itiriwe iranikwa cyangwa se ngo yume, ahuko bakayiteka uko bakayikuye mu murima ari mibisi.

Ububiko cyangwa se ubuhunikiro ubona ko babukoze neza. Bafashe ibiti barabitambika indi barahagarika n'imisumari ndetse mu nzu isakaye neza idatura kugira ngo umusaruro wabo utanyagirwa ngo wangirike bivuze ko uzabasha kubagirira akamaro mu gihe kirekire kuko utigeze uhura n'ibyonnyishyashye imvura

Igihingwa cy'amasaka, kizwiho ko kivangwa mu bigori ndetse no mu zindi myaka zibeteshwa kugira ngo bakinwemo igikoma abaturage cyangwa se baryemo umutsima, ni igihingwa cyiza kuko ari igihingwa kiba gikungahaye ku ntungamubiri. Ni igihingwa ubona ko gihingwa mu murima gumeze neza kandi guje ifumbire.

Umurima ukorerwamo ubuhinzi bw'umuceri , umurima ubonako ari igishanga gikorerwamo ibyo bikorwa by'ubuhinzi higanjemo umuceri.

Ikusanyirizo ry'imyaka igiye itandukanye, ariko ubona ko iri mu mashitingi agiye atwikira kugira ngo imvura itayangiza, ndetse ukabona ko barimo no kugosora, cyangwa se gutoranya kugira ngo ibikwe itunganyijwe neza.

Ibigori, ubuhunikiro bw'ibigori bumeze neza, bigaragara ko byitaweho kugira ngo bibashe kugira gahunda nzima yo kuba bitabasha kwangirika, kunundwa cyangwa se kwangirika bitewe n'amazi.

Umusaruro w'ibishyimbo bigufi y'ibihingwa ahantu h'imisozi, bihingwa ahantu hashyuha cyane kuko bikorana cyane n'bushyuhe, mu bukonje bidashobora kwera.

Ibi ni ibigori, ibigori byiza ubona ko byaciwe, biracyari bitoto ntabwo byari byuma kandi bireze, bivuze ngo ibingibi kubirya ntabwo bikura amenyo cyangwa se ngo bifatemo, nkuko biba bikomeye ariko bidakomeye cyane.

Umurima w'ibigori byeze ariko bitari byuma. Uhageze ufite inzara ku buryo wabasha kugica kandi ukacyotsa, cyangwa se ukagiteka ukakirya kikagukiza isari.

Gusobanura cyangwa se gutoranya imyaka ukoresheje inkoko, ndetse izo umaze kurobanura ukazishyira ku isiniya. Ubona ko umubyeyi ari yo gahunda afite kandi agira ngo abashe kuzitunganya neza.

Iyi ikaba ari imifuka y'imyaka yakusanyirijwe hamwe, itegerejwe kuza gupakirwa ngo bazidepurase aho abantu bazikeneye cyangwa se abaturage bazikeneye, kugira ngo bazikoreshe mu kuzirya, no kuzikoresha ibindi bintu bigiye bitandukanye. Akaba ari impungure.

Ubworozi bw'amatungo magufi harimo inkoko inkoko zitera amagi amagi amwe agira vitamini intungamubiri ndetse n'inkoko nazo ubwazo zikaba zivamo ibiryo inyama ziribwa.

Umushinga w'ubworozi bw'inkoko zitera amagi, akajyanwa ku isoko, ndetse zikabasha no kugira zimwe zikura muri zo, zikaba zabasha kugurishwa zigakorwamo inyama.

Ubworozi bw'inkoko buri hamwe, inkoko zitera amagi ndetse amagi agira akamaro kanini cyane, ubona ko ari inkoko nini kandi zimeze neza zidashonje.

Ikusanyirizo ry'amagi ari mu itureyi, ubona ko ari amagi ari ku murongo ,kandi atondetse neza umutwe w'igi ureba hejuru, uretse ko aya ari amagi yateguwe kandi agatunganywa ku buryo bunoze bikorwa n'umuntu ubizi.

Ubu ni ubworozi bw'intama, harimo ibyimanyi, harimo inyarwanda, bivuze ngo harimo ibyimanyi by'iderine harimo ndetse n'inyarwanda nyirizina ku buryo ibyimanyi aribyo byinshi muri izi ntama.

Ubworozi bw' amatungo magufi yitaweho mu kiraro cyazo, ndetse azanirwa ahantu umuveterineri wo kuba yasuzuma ngo arebe uko zihagaze, haba mu bijyanye n'amezi yazo ibyo bita gutwita kugira ngo arebeko niba zarafashe.

Veterineri akora mu nka cyangwa se akora mu nda y'inka, anyuza ukuboko mu nda y'amaganga kugira ngo yumve ko niba mu nda harimo amezi, cyangwa se niba ageze igihe cyo kubyara kugira ngo nyirininka yumve ko yizeye ko inka ye izamuha umusaruro w'urubyaro.

Ubworozi bw'amatungo magufi, azwiho kwitwa ingurube. Yabwaguye ububwana bwinshi. Ubona ko aribwo bwiganje.

Amagi yatewe yakusanyirijwe hamwe ku tileyi, kugira ngo atabasha kwangirika kuko iyo riguye hasi rihita rimeneka rikaba ryangiritse. Aterwa n'inkoko z'inyamagi

Umushinga wo gukusanya amagi, amagi y'inkoko azwiho kugira uruhare rwinshi mu kubaka umubiri wa muntu, akusanyirizwa hamwe ndetse agatunganywa neza, akitabwaho ku buryo uyakeneye abasha kuyafatira ku gihe kandi akayabona bitamuhenze.

Umushinga w'ubworozi bw'amatungo magufi, inkoko zakusanyirijwe hamwe kugira ngo zibyazwe umusaruro, haba ku fumbire, mu gutera amagi ndetse no mu korora izikiri ntoya zikageza igihe cyo kuribwa.

Urukingiriro rw'inka cyase kumva ko inka zifite amezi, yaba atazifite bakarutera urukingo rwayo ruyirinda indwara cya se bakarukingira urukingo ruyifasha kwima.

Nk'uko bigaragara, ihene irimo kuvurwa icyo twita uburenge. Uburenge bufata amatungo bugafata mu binono byazo, cyangwa se mu birenge byazo. Kugira ngo noneho ntabashe kugenda neza. Iyo basutsemo umuti ni bwo bukira noneho zikagenda neza.

Amatungo magufi arimo ingurube zifashishwa mu gukora ifumbire ndetse no mu kongera umusaruro bituruka ku mafaranga; aho uyigurisha ukabona amafaranga ahagije ikakuzamura mu iterambere ryawe.

Ubworozi bw'amatungo magufi azwi ku izina ry' intama. Intama ni itungo rigufi ririsha riziritse, cyanga se ritaziritse uriragiye mu kibara cyangwa se mu rwuri, kuburyo ritabasha gutera amahane cyane.

Umushinga w'ubworozi bw'amatungo magufi wiganjemo intama, akaba ari umushinga w'ikigo cy'abanyeshuri wateguye korora amatungo magufi.

Urujya n'uruza rw'Abaveterineri bita ku buzima bw'ingurube bakazitera inshinge, bakarebako zirwaye bakazivura, bamara kuzivura zigasigarana ubuzima buzira umuze bahuje imbaraga.

Ishyo ry'inka ryahurijwe hamwe, ubona ko hariho n'urujya n'uruza rw'abantu benshi bahateraniye, bigaragara ko ari bo bazanye izi nka mu gikorwa runaka cyo kuba bazikingira, cyangwa se bazambika amaherena, cyangwa se ubona ko hari igikorwa cyahuje rubanda nyamwinshi.

Iyi akaba ari inyamaswa nanone iguruka mu bwoko bw'ibiguruka, ikaba yitwa uruyongoyongo mu Kinyarwanda, ikaba irya iminyorogoto cyangwa se irya inzoka muri rusange.

Ubwoko bw'inyamaswa bukorwa cyangwa se buba mu ishyamba kandi bukaba butinya abantu cyane, ari yo mpamvu iyo ukabonye ubona karimo gukangarana, ni yo mpamvu kaba gatinyitse.

Ubwoko bw'ifuko zimwe zirima mu itaka zikarya imyaka, igiye itandukanye. Ziba zifite amenyo abiri yo hasi n'abiri yo hejuru.

Iyi ni ingurube ubona ko ari inyamwanda cyane cyane. Igira umwanda mwinshi kuko ikunda gucundagura ngo itange ifumbire. Irya ibyo ibonye haba amagufa, ibyatsi, ibizima n'ibitari bizima, byaba byaraboze cyangwa se bitaraboze, byose irabirya.

Akanyamaswa gato ko mu ishyamba kataryana, cyangwa se ngo gatere amahane cyane, uretse ko kagira agasuzuguro kitwa Inkende, gakunda kurira ibiti ndetse no gusimbukira mu bindi ariko ntabwo kajya karyana.

Ubwoko bw'ibiguruka cyangwa se inyoni karushorera, ikaba ari inyoni ikora inzu yayo ikoresheje ibyatsi, ikubakisha umunwa ikagenda isobekeranya. Ikaba ari inyoni igira isuku cyane.

Inyamaswa yo mu ishyamba itororerwa mu giturage. Inyamaswa y'inkende, inkende cyangwa se inkima uko bamwe babyita. bamwe babyita inkende abandi bakabyita inkima.

Inyoni yapfumuye igiti kugira ngo ibashe kuhagira icumbi ryayo. Kuko ni mwo irara ni mwo ibarizwa, ni ho mu rugo. Ni ho mu rugo inyoni igomba gutaha, kuko ari ho yabashije kwarika cangwa se kubaka icumbi ryayo.

Utu n'udusimba tugiye kwitwara nk'igikeri ariko ntago ari ibikeri, ibingibi kuko twitwa imitubu akaba ari udusimba tuba mu mazi ndetse no mu bigori, kuko natwo turya ibigori, ariko bitari byera bitari byanaheka.

Iyi ni inyamaswa ariko akaba ari inyamaswa yororwa, akaba ari inyamaswa yitwa poka ingurube, ku buryo itanga ifumbire ndetse igatanga n'inyama kuri bamwe bazirya.

Izi ni zimwe mu nyoni zigurukira mu kirere zikoresheje amababa, zimwe zitungwa no guhiga udusimba duto cyane zikaturya, ku buryo ari two zitungwa na two.

Aka ni agasimba cyangwa se agakende, kavuye mu ishyamba kari hanze, ubona ko kitwa inkima muri rusange, kanyogota ibigori, karya ibirayi bibisi, karakura, kuko gafite amaboko yako ni nk'intoki z'umuntu, ibyo kabasha gukura ndetse kakabirya.

Iyi ni inyamaswa yo mu gasozi. Inyamaswa iguruka, igendera mu kirere ikoresheje amababa. Ikaba ari inyamaswa yarika, ndetse igakora icumbi ryayo ikoresheje ibyatsi.

Izi ni zimwe mu nyoni ziguruka zibera mu gasozi, aho zarika inzu zazo zarika ibyari kugira ngo zibashe kubona amacumbi zibamo, zitahamo nijoro ku manwa zikaba zagiye guhaha.

Ubwoko bw'igisiga kigurukira mu kirere kikagenda gikoresheje amababa, ndetse kikaba ari igisiga kidatwara ubworozi bw'inkoko, ahubwo kirya utunyamatundi twaba twaguye ku ruhande.